Abantu bahinga umurima w'ibyatsi, ibitoki inzu ndetse n'ibindi, hirya n'umwana muto abantu bambaye imyenda idasa abandi bambaye inkweto ndetse bafite n'amasuka bari gukoresha muri uwo murimo wo guhinga.